Ubudomara bubiri buteretse, hariho n'amacupa abiri, Icupa rimwe ririmo umuti batera mu nzu bari kwica udukoko, imibu, n'utundi dukoko. Iyi miti ifite akamaro, ituma udukoko tutangiriza abantu.

Ifumbire y'amazi yitwa Enipeka iri mu bicupa bifite amabara y'umweru n'ay'ubururu. Izina Enipeka ryandikishijwe ibara ry'umukara.

Icupa rinini ry'umweru rifite umufuniko w'icyatsi, rifite amabara y'ubururu atambitsemo y'imirongo y'ubururu yanditseho izina ijanda gatanu, ni icupa ribamo imiti yica udukoko.

Umugabo wapakiye imifuka itatu ku igare. Ari kugenda mu muhanda, iruhande rwe hateye ibigori bimeze neza. Yambaye imyenda y'ubururu, yambaye na bote n'imbere ye hariho...

Icyumba gicururizwamo imiti yica udukoko, ni imiti y'ubwoko bwinshi harimo: dodomaci, harimo harimo n'iyindi miti y'amoko menshi yica udukoko two mu myaka.

Umugabo uri mu murima afashe isuka ,yambaye ipantaro y'umukara, na bote n'ishati y'ubururu, ruguru ye hateyeho igihingwa cya soya, imbugiro y'umurima hateye ibigori byinshi, hirya y'umurima hariyo ibiti binini.

Amacupa atatu abamo imiti yica udukoko mu bihingwa, ayo macupa afite umufuniko w'icyatsi, icupa risa n'umwe n'ikijuju ryaritsemo n'ibara ry'umukara.

Amacupa abiri abamo umuti wa Dodomaki, umuti wa Dodomaki tuwutera mu myaka, mu mbuto zitandukanye, mu ntoryi ,mu nyanya, mu bishyimbo no mu makawa.

Abantu bari gufuhira umurima munini cyane w'ibigori bahetse amapombo, bambaye imyenda y'ubururu n'imikara. Harimo n'abambaye n'abasirikari bambaye n'udupfukamunwa, bambaye na za ga z'umuhondo mu ntoki. Ibigori bari kubitera umuti bari kubifuhira.

Umufuka hariho n'amacupa abiri, hariho n'amapaki y'imiti abiri, ayo macupa, rimwe rifite umufuniko w'ubururu, irindi rifite umufuniko w'umweru, rishushanyijeho n'ibyapa bitandukanye by'ibihingwa.

Abantu bari gukorera ikawa, bari gusukiraho amazi, bari gushyiraho n'ifumbire mvaruganda. Bambaye imyenda itandukanye irimo amabara y'ubururu n'umweru, bari gusuka amazi mu ibase y'ubururu.

Urugemwe rw'ikinyomoro rumeze neza bari kurushyiraho imvaruganda ya dap, ibinyomoro biraryoha bigarura amaraso ni byiza cyane.

Imvaruganda iri mu mufuka w'ubururu, bari kuyora mu ntoki, imvaruganda ituma umusaruro wiyongera, igatuma ibihingwa bisa neza, tukabona umusaruro uhagije.

Umugabo uri gufuhira mu murima munini uteyemo ibihingwa, arigufuhira imbere hateretseho ipombo, ari kugenda ari gufuhira yaba umugabo , yambaye imyenda y'umukara.

Icyumba cy'ubucuruzi, bari gucururizamo n'imiti yica udukoko. Hahagazemo abagabo batatu n'umugore umwe, umugore witamirije agashura mu mutwe gasa n'umuhondo. Yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umweru. Undi mugabo yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku.

Amafi abiri manini amanitse ku migozi. Amafi ni ikinyabuzima gikunda kwibera mu mazi. Amafi agira intungamubiri nyinshi, amafi araryoha kandi agatanga n'amafaranga.

Ifi irambitse ku iparato iriho n'ibirungo hariho n'indimu basatuye ifi iraryoha hateretseho impande n'utudobo tubiri turimo.

Amafi, amafi ni meza cyane. Amafi turayarya. Amafi tukayagurisha amafaranga. Amafi atuma abana batarwara bwaki. Amafi agira intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Amafi menshi arambitse ahantu arasandaguje, amafi araryoha amafi agira intungamubiri nyinshi. Amafi tuyagurisha mo amafaranga

Isambaza ziri ku dutebo zirateretse ku bitebo ni nyinshi isambaza ziba mu kivu turazirya zifite vitamine nyinshi mu mubiri.

Ifi ihiye irambitse ku iparato bashyizeho n'ibirungo, bashyizeho inyanya ,bashyizeho indimu, n'akandi karabo k'icyatsi bayikikije ku ruhande.

Ubwato buri ku nkengero y'ikiyaga, burimo abagabo babiri, umwe yambaye ishati yumweru n'ipantaro yicyatsi, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, bahagaze mu bwato.

Amafi, amafi arambitse ahantu, amafi n'ikiribwa cyiza cyane, atanga amafaranga, amafi akunda kwibera mu mazi.

Ibyuzi by'amafi byubatsemo n'ibiraro by'inkwavu, hirya hariyo amazu izo nkwavu zubakiye mu mazi zikaba ziri hejuru y'amazi ibyuzi by'amafi.

Amafi aramanitse harimo afite ibara ry'ubururu harimo afite ibara ry'umweru, harimo n'ifite ibara ry'umutuku. Amafi araryoha afitiye vitamini nyinshi mu mubiri.

Amafi arambitse ku iparato, hariho n'ibirungo, hariho inyanya hariho, seleri n'ibindi birungo binyuranye, bakatiyeho n'indimu, n'indimu zifite ibara ry'umuhondo..

Amafi atanu arambitse ku gatete, amafi akunda kuba mu mazi, amafi turayarya afite vitamini tukayagurisha n'amafaranga. Amafi agira intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Injanga, injanga ziba mu kivu, turazirya, bazigurisha amafaranga, zifite vitaminini nyinshi mu mubiri w'umuntu. Injanga ni ikiribwa cyiza cyane ku mubiri w'umuntu.

Inyanya, ibihaza, n'ibipapayi biri mu isoko. Ibihaza biraryoha, n'inyanya ni nziza ni mu bwoko bw'imboga.

Ubwato buziritse impande y'ikiyaga buziritse ku biti bari kuroba. Abagabo bari kuroba, abandi bari kugenda hasi, ariko ubwato buraziritse.

Ifi ikaranze irambitse ku iparato hariho n'ibirungo. Amafi araryoha iyo umuntu yayatetse neza. Amafi atanga amafaranga, amafi ni ikiribwa kigira intungamubiri nyinshi.

Ifi irahiye irambitse ku iparato. Ifi iraryoha. Ifi ni ikinyabuzima gikunda kwibera mu mazi. Ifi ni ikinyabuzima cyiza, ifitiye akamaro kenshi abaturage, igurishwa n'amafaranga.

Amafi ni amafi aba akariye, bayazanye akariye ariho n'umunyu. Amafi araryoha, amafi agira intungamubiri nyinshi. Amafi ni meza.

Amafi ahiye harimo n'ibirungo .Bakatiyeho n'indimu Amafi rero araryohaga .Amafi n' ikiribwa cyiza kigira intungamubiri nyinshi.

Amafi amafi ababuye, amafi araryoha, amafi agurishwa n'amafaranga, amafi ni ikiribwa kiryohera Abanyarwanda cyane.

Amafi atatu arambitse ku iparato, amafi araryoha, amafi ni ingirakamaro, amafi agurishwa amafaranga, amafi akunda kwibera mu mazi .Amafi agira intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Amafi abiri ,bayarambitse hariya bayayakatiraho indimu bashyiraho na te. Amafi araryoha ,agatanga amafaranga, amafi afite intungamubiri nyinshi.

Amafi menshi, amwe bari kuyapima ku munzani, amafi araryoha, amafi ni ikiribwa cyiza, ni ikinyabuzima gikunda kwibera mu mazi.

Ifi imwe irambitse ku iparato. Ifi iraryoha. Ifi bayigurisha amafaranga. Ifi ni ikinyabuzima gikunda kwibera mu mazi.

Ni ubwato buri mu mazi bwanditseho polisi marine. Harimo abagabo bambaye n'abagore bambaye amakoti y'imituku nabambayega imikara, n'ingofero zirebye imbere, bahetse n'ibintu by'ibicupa mu mugongo bisa n'umuhondo.

Ubwato buri mu mazi, burimo abantu benshi buziritseho n'ibiti, buri kugenda mu mazi, mu kiyaga kinini cyane.

Amafi. Amafi ni ni ikinyabuzima gikunda kwibera mu mazi ,amafi turayarya, amafi tukayagurisha amafaranga, amafi agiraga intungamubiri.

Amafi bayafashe ari mu rushundura rurazingazinze; amafi araryoha agatanga n'intungamubiri nyinshi, amafi ni meza turayakunda.

Amafi ni menshi, arambitse ahantu. Amafi araryoha, kandi agurishwa amafaranga. Tukayarya, akagira vitamine nyinshi mu mubiri. Amafi akunda kwibera mu mazi.

Amafi, amafi araryoha, amafi azana amafaranga, amafi afite intungamubiri nyinshi, amafi akunda kwibera mu mazi, amafi n'ikiriribwa cyiza.

Isambaza zirahiye bazishyizemo n'ibirungo .Isambaza ni ibiribwa biryoha ,iyo wabishyize mu biryo ,abana barabikunda.

Amafi abiri, amafi agira intungamubiri, amafi agurishwa amafaranga, amafi ni kiriribwa cyiza cyane gikundwa n'abantu benshi. Amafi aba mu kiyaga cyangwa se mu ngezi.

Ifi irambitse ku iparato irahiye, ifite n'ibirungo byose by'ubwoko bwose. Inyanya, indimu, byose birahari na za te.

Igiti cyitwa ikizibaziba cyitwa ikizibaziba kivamo imbaho nziza. Kiravura ni umuti, igiti cyitwa ikizibaziba gifite akamaro kanini turanagicana.

Umurima munini uteyemo ibirayi, ku mbugiro hahinze ibigori, hirya gato hegetse ibishingirizo, inyuma y'ibishingizo hariho ibiti binini, biteye inyuma y'ibishingirizo.

Urugo ruzitiye ruteye ruzitije ibikenyeri by'ibigori ruteyeho n' isombe. Kuruhande hariho n'ibiti by'imihati, imbere harimo inzu y'amabati iteye imbere y'urutoki, ariko nta bwo iri kugaragara neza.

Ibiti by'imisave biri mu bihoho muri pepiniyeri . Ibi biti bivamo imbaho. Bivamo imbaho nziza. Ibiti turabicana. Ibiti biduha amafaranga.

Umurima munini basaruye mo ibigori, hirya y'umurima hateye ibiti binini by'inturusu, ruguru ya ho hateye umurima w'urutoki.

Umurima uteyemo urutoki rw'insina, impande yaho hateyeho imigano. Urutoki ni rwiza, turukuramo amafaranga, tukarukamamo n'inzoga, urutoki ni rwiza cyane.

Umurima uri impande y'ikiyaga hateyemo n'igiti cy'umusave, hateyemo n'ibyatsi bimera mu gishanga, imbere yaho uri kubona n'ikidendezi cy'amazi aricyo kiri kugaragara n'ibiti birebire by'imigano biteye kukengera.

Imifuka iparitse, bahiye ibyatsi bayishyiramo, ibyatsi, ni ibyatsi byo kugaburira amatungo babyahiye mu murima munini, hirya y'uwo muririma, hateyemo ibiti binini.

Umuhanda uteyeho ibiti binini hirya hateyeho, hariho urugo ruteyeho n'ibiti byitwa ibibonobono, hariho n'igiti cyayanze gifite indabo zifite amabara y'umutuku, imbere yaho harimo amazu.

Umurima uteyeho umuhati ku ruhande, imbere yaho hateyeho kapusine, hirya ya kapusine hateyeho imboga n'ibitunguru. Inyuma yaho hateyemo ibindi bihingwa bitandukanye.

Umurima munini, ku mbugiro z'uwo murima hubatse amazu y'amabati, hateye n'ibiti bya avoka n'iby'imigano. Umurima ni munini cyane uhinzemo n'imyaka.

Umurima munini uteyemo amashaza ku mbugiro hateye ibiti hateye n'ibigori, hirya gato hariho ibiti binini biteye impande y'amazu yubakishije amabati y'ubururu.

Igitari kirimo ibiti binini hirya hariho, ikindi gitari kirimo ibiti biringaniye. Ibiti ni ingirakamaro turabicana, turabyubakisha. Ibiti bifite akamaro kanini, bitinda n' ibiraro.

Umurima uhinze, hirya yawo hateyeho ibiti by'imigano hirya y'ibiti by'imigano hateyeyo ibiti bya shipure. Ibiti by'imigano bivamo imihembezo, bivamo ibintu byinshi.

Umurima uteyemo ibyatsi, ubwatsi bw'inka bwa kameroni uteyemo n'insina n'ibigori. Ibigori ni ingirakamaro turabirya, ubwatsi inka ziraburya, zigatanga umukamo, tukabona amata, tukabona n'ifumbire. Urutoki turukuramo ibitoki byo kurya.

Umurima uteyemo insina, uteyemo amateke yabungubungu, ubwatsi bw'inka hirya yaho hari ikidodoki gikikije ku rugo n'ibiti birebire.

Umurima basaruyemo ibishyimbo ibiti biranyanyagije, hanyuma imbereho yaho hateye urutoki, n'igiti kiyumbije kinini.

Igiti kinini cy'avoka ntabwo cyari kera, ariko kirimo avoka gitangiye kwera, ni igiti cyiza kimeze neza, kigaragara ko kizatanga umusaruro, kiri inyuma y'urugo.

Umurima uteyemo inturusu zikiri ntoya, haruguru ku mbugiro hateye igitari kirimo ibiti, ibiti by'inturusu zigira amababi y'umweru, byo ni bikuru.

Umugabo ushoreye inka, imbere hari undi mugabo wambaye imyenda y'imituku n'ipantaro y'umukara, nawe yambaye ashoreye inka y'umusengo, yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara na bote. Hirya hateye ibiti binini.

Igitari kirimo ibiti birebire, ibiti ni ingirakamaro turabicana, tukabyubakisha, tukabigurisha, twashaka tukabigurisha amafaranga. Ibiti ni ingirakamaro bifite akamaro kanini cyane.

Umuririma harimo ibyatsi byumye n'ibikenyeri by'ibigori bagiye bararunda, imbere yaho hariho igiti kiyumije cyarayanze gifite indabo z'umweru, n'inyuma yaho hariho igiti kirekire.

Umurima uteyemo karoti. Karoti ni ubwoko bw'imboga zitwa karoti, ziraryoha, ziravura, zivura amaso, zivura mu nda, tuzijyana ku isoko bakaduha n'amafaranga.

Amatungo magufi aziritse mu murima, imbere yaho hateye urutoki , urutoki ruteyemo ibinyomoro, aho inyuma imbere y'aho hubatse inzu y'amatafari y'inkarakara, no hirya k'urundi ruhande hubatse inzu y'amabati y'umutuku.

Igiti, igiti giteye inyuma y'urugo, ku nzu yubakishije amatafari ahiye, ifite fondasiyo y'amabuye ateyemo irangi ry'umweru. Icyo giti ni gishyigikiwe n'ikindi giti bashyizeho kugira ngo kigifate kidahirima.

Igihingwa cy'ibirayi biteye mu murima, mu murima hagati hashinzemo ipoto y'amashanyarazi, hirya hari urugo ruzitiye, ruteyeho n'ikidodoki, n'insina, n'inzu y'amabati.

Ishyamba riteyemo ibiti by'inturusu za kivuvu, hirya y'aho hari irindi shyamba rinini, muri uwo murima urimo ishyamba ritoya , hashinzemo n'igiti k'ipoto.

Ikigo cy'amashuri giteyeho ibiti binini, kiziritseho n'inka. Ni inka y'ikibamba iri kurisha, ni ikigo gifite n'umuhanda.

Umurima w'urutoki ,uteyemo ibigori kuhande hateyeho n'isombe. Ibigori bifite akamaro kaniniini cyane nibisigazwa byabyo tubigaburira amatungo.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa, ku mbugiro yawo hari inzu, hari n'ibiti bitewe impande y'izo nzu, hari n'ibishingirizo byegetse ku mbuga, n'inzu zubakishije amatafari zisakaye.

Igihingwa cya karoti. Karoti ni igihingwa cyiza cyane kiri mu bwoko bw'imboga, karoti zigira akamaro kenshi mu mubiri, zivura amaso, zivura n'indwara zo mu nda.

Umurima uteyemo ibiti by'ibobere, hirya y'uwo murima hariho intabire, hirya y'intabire hateyemo ibiti binini by'intusi.

Igitari kirimo ibiti binini by'intusi za kivuvu ,ni igitari gifite ibiti byiza. Ibiti ni ingirakamaro, biyungura umwuka duhumeka, ibiti tukabicana, tukanabyubakisha.

Umuhanda unyuze ahanyuze impande y'urugo ruzitije ibiti, hateyeho igiti cy'avoka, hakurya y'umuhanda hubatseho n'inzu hahagaze n'abana.

Umurima munini, ni munini cyane. Imbugiro hateyeho ibigori, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ku ruhande hateyeho n'ibiti birimo indabo z'umweru, hirya y'umurima hateyeho gitari.

Igiti kinini cya avoka. Impande yacyo , hateye igiti cy'umugano ni igiti kinini cyane cya avoka. Kiraribwa tuyigurisha amafaranga, igira intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Umugore uri kugenda mu kayira yikoreye inkwi. Ari kugenda mu nzira, inyuma ye iyo aturutse hateye ibiti binini, hariyo n'amazu. Yambaye imyenda y'amabara anyuranye, umupira urimo amabara y'umukara, n'umutuku. Akenyeye n'igitenge cy'ubururu.

Ibishyimbo bifite uruyange rw'umutuku, ibishyimbo biraryoha, ibishyimbo bigurishwa amafaranga, ibishyimbo n'igihingwa cyiza cyane.

Igiti cya avoka giteye mu murima, ku ruhande hahinzemo indi myaka, imbugiro hahinzeyo ibigori ariko ibyo bigori birumye.

Abantu bari kugenda mu muhanda, iruhande rwabo hari urugo ruzitije ibikenyeri by'ibigori, biteyeho ikidodoki ku ruhande rwo hepfo hateye insina, mo imbere harimo indi itari kugaragara neza, n'imbere yabo hariyo inzu y'amabati.

Umurima munini uhinze, uhinze urimo n'amabuye, imbugire y'umurima hari umugabo wunamye uri kwahira ,hateyeho n'ibiti binini by'imigano.

Umurima w'ibigori intangiriro hateyemo amashaza imbugiro ni mu umurima w'ibigori. Ibigori bifite akamaro kanini turabirya, ibyatsi tukabigaburira n'amatungo, ibigori ni ingirakamaro.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire binini, n'ibindi binini. Ishyamba rifitiye abantu akamaro kanini, riyungurura umwuka duhumeka si ibiti turabicana, tukanabyubakisha ibiti bifite akamaro kanini.

Umurima w'urutoki, insina ziteyemo inkingi, buri nsina irimo inkingi ebyiri, igitoki kimwe cyanye mbere, ikindi cyanye nyuma, niho kimaze kwana.

Igihingwa cy'inzuzi. Inzuzi zera ibihaza tukabirya. Inzuzi ni igihingwa cyiza cya kinyarwanda, gifite akamaro kanini, ibihaza birakundwa cyane kandi biraryoha.

Inzu yubatse ku rugi hahagaze umwana, impande y'umwana hateye imigano, inyuma y'imigano hateye igiti cy'avoka kinini cyakuze cyane.

Umuma munini w'ibirayi hamwe barahakuye ahandi ntabwo bari bahakura, hirya y'umurima hari ibiti birebire. Ibirayi n'igihingwa kiryoha cyane, kizana amafaranga ibindi tukabirya. Ibirayirayi tukabigarurira amatungo.

Umurima uteyemo ibirayi ,ni umurima munini ,Inyuma hirya y'ibirayi hateye ibiti by'intusi na za sipuri, ibirayi ni igihingwa kiza gifite akamaro, ibirayi biraryoha bigurishwa amafaranga ,bigemurwa mu turere.

Umurima munini urimo igiti gitemye, hejuru ku mbugiro hateye urutoki. Urutoki ni igihingwa gifitiye abaturage akamaro, barukuramo amafaranga ibivovo inka zirabirya tugakamamo n'inzoga, n'ibitoki tukabirya.

Umurima uhinzemo amajeri ariko ayo majeri ntabwo yari yayanga n'uruyange nta misogwe afite. Amajeri araryoha kandi bakayagurisha n'amafaranga, amajeri n'igihingwa kiryohera abanyarwanda.

Amateke y'amabungobungu aya mateke araryoha, ibiguri byayo tubigaburira amatungo. N'amateke meza cyane aryoha.

Igihingwa cy'umuceri uhinze mu murima munini, harimo abantu bari kuwusarura umuceri ni igihingwa cyiza kiryoha, gikunda kwera ahantu hari amazi menshi.

Puwavuro, puwavuro ziteye mu murima ziri kwera ntabwo bari bazisoroma. Puwavuro ni mu bwoko bw'imboga zifite akamaro zifitiye imibiri yacu akamaro kanini zituzanira na mafaranga.

Imiteja ifite intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu imishogoro turayirya, imiteja iraryoha kandi tukayigurisha amafaranga.

Igitoki gihagaze n'amakoma yacyo igitoki ni igihingwa cy'ingirakamaro gifitiye abanyarwanda akamaro igitoki turakirya umutumba tukawugaburira amatungo tukagikamamo n'inzoga

Umugabo uri mu murima uteyemo imyaka, hateyemo n'igiti cy'avoka, arunamye ari gukora ku giti cy'avoka yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umuhondo, ingofero y'icyatsi, n'isaha ku kuboko.

Imyumbati irakuye, nta bwo itonoye, irasandaguje, imyumbati iraryoha, ivamo ubugari, iyindi tukayigereka ku bishyimbo, itininitse.

Igiti cya avoka kirimo voka ariko nta bwo zari zera, ni igiti kinini cyagandaye, voka ziraryoha, zigurishwa amafaranga, zikora no mu nganda, bakazikuramo amavuta yo kwisiga.

Abagore batatu bafite amasuka, bose bambaye imyenda y'amabara anyuranye, umwe yambaye igitenge k'icyatsi n'umupira w'icyatsi, n'igitambaro, n'undi nawe yakenyeye agashura k'umutuku, n'agapira k'umweru.

Igiti bakuye cy'imyumbati gifite imyumbati myinshi cyane kandi minini, iruhande rw'aho harambitse umutwaro w'ingeri z'imbuto zo gutera. Imyumbati ni igihingwa cyera cyane kandi ziraryoha, kandi zitanga namafaranga.

Abantu bari mumurima w'ibigori barikuwutambagira bambaye n'udupfukamunwa. Bambaye imyenda inyuranye harimo umugore wapfutse igitambaro cy'umuhondo, n'undi wambaye ingofero y'umukara. N'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu.

Abantu benshi bahagaze mu murima w'umuceri . Harimo umwe wambaye ikigofero kinini cy'urugara n'ishati y'umweru. Akenyeye n'igitenge kirimo amabara y'ubururu. Abandi nabo barahagaze bari kwandika n'ikaramu kandi basukishije n'imisatsi.

Indimu. Indimu zifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo. Indimu imwe bayikase, iri kugaragaza imbere. Indimu ziraryoha, indimu zifite akamaro kanini ku bantu, zivura inkorora n'izindi ndwara.

Uyu ni umwembe nuko utari washya neza. Umwembe ni urubuto ruryoha. Umwembe ugurishwa amafaranga, tukawurya. Ni urubuto rwiza.

Ibi ni ibishyimbo bya kijyambere bifite imishogi, bifite n'uruyange. Ibishyimbo ni ingirakamaro biribwa umushogoro, bikaribwa imiteja, bikaribwa n'intonore.

Iyi ni inyama y'inkoko bayibaze bayipfura ubwoya, ariko ntibayisatuye. Inyama y'inkoko rero iraryoha ni inyama nziza cyane igira vitamini nyinshi mu mubiri.

Icyatsi cyitwa igicumucumu, igicumucumu inkwavu ziragikunda cyane kibamo n'umuti, n'icyatsi kimera mu mirima ikuze.

Imbuto z'ubwoko bwose amaronji ,imyembe ,za pome, amacunga, byose birahari biri hasi biri gucuruzwa.

Ibirayi bya kKinigi birunze . Ibirayi bya Kinigi birunze ibirayi biraryohaga .Ibirayi ni igihingwa cy'ingirakamaro gikundwa n'abantu benshi.

Abantu bafashe mu intoki ibijumba n'imigozi yabyo. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye, inyuma yabo hariho umurima uteyemo ibigori n'urutoki, hariho n'icyapa gifite ibara ry'umweru.

Imodoka bari gupakurura ibitoki, umugabo ari hejuru y'imodoka, imbere yayo hubatse inzu nini, ifite n'amabati y'umutuku, hicaye n'umugore wambaye umupira w'umutuku, urimo n'imirongo y'umweru, yipfutse n'igitambaro cy'umukara ,muri iyo modoka harimo...

Abantu bari mu umurima w'ingano, barahagaze, bambaye imyenda y'amabara anyuranye, umutuku, ubururu, umuhondo, umwe afashe n'agasobane mu ntoki, yipfutse n'igitambaro cy'umweru.

Umugore uri mu murima munini cyane w'icyayi, yaziritse igitebo mu mugongo, ari gusarura icyayi, yambaye imyenda y'ubururu, yipfutse n'igitambaro cy'umutuku. Icyayi ni igihingwa cy'ingirakamaro.

Igihingwa cy'ibireti, ibireti ni igihingwa ngengabukungu, harimo abantu bari kubisarura, bambaye imyenda y'amabara anyuranye, bafite n'indobo y'icyatsi ,uwo mugabo yambaye n'ikoti ry'ubururu n'ingofero irebye imbere hakurya yaho hari n'ibiti bine.

Igiti kinini cy'amapera. Ayo mapera rero harimo ibitushi, ariko nta bwo yari yahinduka umuhondo. Amapera ni imbuto ziribwa kandi zikaryoha, abana barayakunda.

Voka ebyiri, imwe irasatuye iri kugaragaza ko ziryoshye; voka ni igihingwa cyiza gitanga amafaranga gifite intungamubiri nyinshi z'umubiri turazirya, tukanazigurisha, izisagutse tukazigaburira n'amatungo.

Umurima w'ibigori, ibigori bimaze guheka ariko ntabwo byari byera neza; ibigori ni ingirakamaro ibigori turabirya, tukabigurisha amafaranga, ibigori ibyatsi byabyo tubigaburira amatungo, ibigori ni igihingwa cy'ingirakamaro.

Inkoko y'isake ifite amabara atandukanye amabara y'umuhondo, amabara y'umutuku, amabara y'icyatsi, n'inkoko nziza imeze neza ifite igikuriro. Inkoko igurishwa amafaranga igatanga inyama, inkoko n'itungo ryiza.

Abagore bari mu muririma w'amashu bari kuyasarura kuyasarura amashi ni igihingwa gitanga amafaranga . Aba bagore bambaye imyenda y'amabara anyuranye y'ubururu bamye biteze ibitambaro abandi ntabyo biteze.

Umugabo n'umugore bari gukorera igiti cya avoka bafite n'icyuma mu ntoki, bari kureba avoka yabo ko imeze neza bashaka kuyikonera.

Izi ni puwavuro zahishije zatukuye zisa n'umutuku. Puwavuro ni igihingwa cyiza, ni ubwoko bw'imboga, barazikunda cyane ziraryoha.

Umurima uteyemo ibigori ariko ibigori ntabwo bishishe ntamvarugana babishyizeho, n'umurima munini n'ibigori bitazatanga umusaruro ushimishije.

Isoko ry'ibitunguru birafunze imifungo, ni ibitunguru byiza bifite ibiteke by'umutuku, ni ibitunguru byiza. Ibitunguru turabirya tubigurisha n'amafaranga, ibitunguru ni indyoshyandyo.

Umugore n'umugabo bafashe ibihaza bya wotameroni ,babifashe mu ntoki. Uwo mugabo yambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara. Umugore yiteze igitambaro, yambaye n'ishati y'icyatsi. Ibi bihaza biraryoha, ni n'umuti biravura.

Uru ni urusenda bakunda kwita kamurari. Kamurari ni urusenda ikunda kwera rusa n'umutuku, ariko rugakora cyane. Urusenda rugira akamaro ko gutera umuntu apeti yo kurya.

Umurima w'ibigori, urimo ibigori byiza bitangiye guheka, bitangiye gushyira imugongo, ni ibigori bimeze neza. Ibigori ni igihingwa cyiza, turabirya ibisigazwa byabyo kabigaburira amatungo, ibigori bifite akamaro kanini.

Inka nziza cyane ibyagiye mu rwuri. Inyuma yayo hateye n'ibiti birebire. Inka igira amata menshi, inka igatanga inyama, amata tuyagurisha n'amafaranga.

Umugore uhagaze mu murima, wipfutse igitambaro cy'ubururu n'umupira w'ubururu. Ari gukoresha terefone, ari kureba terefone .Hirya ye hubatse amazu, hateye n'ibiti birebire.

Abantu benshi bari gukora za ruhurura n'amatarasi, hariho umugore wipfutse igitambaro kiririmo ibara ry'umutuku, n'umugabo wunamye inyuma ye ari guhanagura isuka.

Abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe, bikoreye ibikurete birimo imbuto zo gutera. Ibyo bikurete bisa n'umutuku, umwe afitemo imbuto zifite ibara ry'icyatsi, undi afitemo ingemwe zifite ibara ry'icyatsi, n'undi afitemo izifite ibara ry'umuhondo.

Isoko ry'ibiribwa harimo puwavuro, harimo imiteja, harimo amapapayi, harimo n'intoryi, ibi bihingwa biraryoha kandi bikazanira umuhinzi amafaranga.

Ubucuruzi bw'amaronji n'amapera. Amarongi ni imbuto ziryoha cyane, zifitiye intungamubiri nyinshi ku mibiri yacu, kandi agurishwa amafaranga.

Umugabo uhetse ipombo, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite n'ingofero, ahetse ipombo mu mugongo ari gufuhira umurima w'amashu, yambaye n'ipantaro y'ikoboyi ifite ibara rigiye kuba nk'umweru, hirya ye hateye igitari kinini.

Ibidodoki ni imboga zikundwa cyane, ibidodoki biraribwa bikagurishwa amafaranga bikanagaburirwa amatungo, ibidodoki ni byiza cyane bifite akamaro kenshi mu mubiri.

Abantu benshi bari guhinga mu materasi y'indinganire, bambaye imyenda inyuranye y'amabara y'umutuku, ubururu, umweru. Ni abagore n'abagabo bari guhinga amaterasi y'indinganire.

Abantu benshi bari gusoroma icyayi bari gushyira mu bitebo binini, bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, hariho uwambaye umupira w'umutuku, abandi bambaye iy'icyatsi, abandi mbaye iy'umweru mbese ni benshi.

Avoka: Avoka ni igihingwa cyiza kigira intungamubiri, tuzigurisha amafaranga, izindi tukazirya kandi avoka n' ni ibinyamavuta. Umubiri uba ukeneye amavuta y' avoka. Avoka ni igihingwa kiryoha.

Igihingwa giteye ku murongo, mu murima hagati harimo igiti kitari kugaragaza umutwe, ibyo bihingwa biteye ku murongo, ariko hagati yabyo harimo imyanya munini.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo, uteyemo ibishyimbo bigufi. Bikoreye neza, bifite isuku, bimeze neza. Bigaragara ko nibyera bizatanga umusaruro. ibishyimbo turabirya, tukabigurisha amafaranga, ibishyimbo bifite vitaminini nyinshi.

Ingurube y'imfizi yabyibushye pe! Iri kugenda inyuma y'ikiraro hariho imbere y'ikiraro hari umugabo wambaye umupira w'umutuku n'undi wambaye umupira uriho icyapa cy'icyatsi. Ni ingurube yakuze cyane.

Umurima munini w'ibigori uparitsemo n'ibyuma bifite n'ibiziga. Hahagazeho umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ahagaze muri uwo murima munini cyane w'ibigori ugeze hirya kure, ahantu hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Abantu bari gukorera umuceri . Ni abantu benshi bafite, haparitseho n'igare, bambaye imyenda y'amabara anyuranye ,ubururu, umuhondo, umutuku, ni abantu benshi. Harimo n'isafuriya isa n'indobo isa n'umutuku.

Umurima w'amashu ,amashu n'igihingwa gitanga amafaranga, amababi y'amashu tuyagaburira amatungo, amashu n'ubwoko bw'imboga zikundwa, amashu ni meza cyane.

Puwavuro zirahishije ziratukuye ziri kuragaza inkondo y'icyatsi ku nkondo y'icyatsi, imwe bayisatuye iri kugaragaza imbuto z'imbere mu murima wayo. Puwavuro ni igihingwa kiryohera abanyarwanda, kizana amafaranga kiri mu bwoko bw'imboga.

Abahinzi benshi bari guhinga mu materasi y'indinganire, bambaye imyenda inyuranye y'amabara menshi atandukanye, abagore, abagabo, bafite amasuka, bari guhinga.

Umurima uteyemo ibigori, ibigori byarumye nuko bateramo iyindi myaka, ibigori byarunye, ariko ntabwo bari babisarura, biracyarimo byarumye, biracurama.

Abantu bari gusoroma icyayi ibisobane babishyize inyuma mu mugongo. Hari n'abambaye ingofero zireba imbere zisa n'umutuku n'iy'ubururu, harimo n'abambaye amashati y'umweru n'amashati y'umukara.

Voka ebyiri. Imwe bayisatuye, indi ntabwo isatuye, ariko ni voka za kizungu, za kijyambere, zimwe bita imbangurire. Izi voka ziraryoha cyane.

Ibisheke babiciye birarambitse babitemaguye, bisheke bivamo isukari, ibisheke turabirya, ibisheke amababi yabyo tuyagaburira amatungo.

Umugore uri guhinga arunamye, ari guhinga atipfutse igitambaro, ari guhingire umuceri. Umuceri ni igihingwa cyiza kiryoha, kandi gifitiye igihugu akamaro, kizana n'amafaranga.

Ubworozi bw'inkwavu harimo inkwavu z'umukara, iz'umweru, ubworozi bw'inkwavu ni bwiza, inkwavu zororoka vuba vuba zigatanga amafaranga zigatanga n'ifumbire kandi n'inyama zazo ziraryoha.

Umurima w'ibigori, ibigori bimeze neza, harimo abantu benshi bari kubikorera, bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara y'umukara, ubururu, umweru n'umutuku, bari no kubifuhira, ni ibigori byiza, hirya y'aho hateyeho ibiti, hariho n'amazu.

Umugore uhetse umwana, umwana yakuyemo ukuboko imbere ye hahagaze abandi bantu benshi bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umukara. Impande ye hateye ikigori bari kwitegereza sinzi ibintu bari kwitegereza.

Umugabo uvuye guca ibigori, afite ibigori byinshi ku kuboko kandi byiza, ari kugenda mu nzira, inyuma hariho umurima uteyemo umuceri. ibigori n'ingirakamaro, ibigori tubirya byokeje cyangwa se bitetse.

Umugabo ugiye guhinga wambaye ikoti ry'umutuku n'ishati yumweru n'ingofero, atereye isuka ku rutugu. Ari kugenda impande y'umurima we uteyemo ibishyimbo, impande ye hateyeho na Kameroni, hirya y'uwo murima hariho inzu, inzu nini y'amabati.

Umugabo ufashe imyembedodo mu ntoki, iyindi irambitse hasi. Ni myinshi, ni imyembe minini yakuze. Uwo mugabo yambaye ishati y'ubururu, umupira w'ubururu w'amaboko magufi. Imyembe ni igihingwa kiryoha cyane kandi igatanga amafaranga.

Iki ni igihingwa cy'amaperi. Amaperi turayakunda avamo imiti, ni igihingwa cyiza, n'abana barayakunda, aranavura.

Igiti cy'umwembe kikiri gito ariko bigaragara ko kiri kuzamuka kimeze neza, umwembe ni igiti cyiza cyane kigira imbuto ziryoshye.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibiribwa bitandukanye, wotameloni, inyanya ,imyembe ,n'ibindi byinshi bitandukanye, hariho n'igitenge gifite amabara y'ubururu.

Igihaza gifite amabara ni kinini, igihaza ni ikiribwa kiri mu bwoko bw'imboga gikundwa cyane, igihaza kiraryoha, kivamo n'inzuzi tukaziteka.

Umugore wikoreye umufuka, umufuka ufite amabara y'umuhondo n'umutuku n'icyatsi, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye umupira w'umweru ufite n'ingofero, inyuma ye hari umugabo uri kwikora mu gahanga, afite n'igiti ku gahanga.

Umugore avuye gusarura amashu mu murima, ayafashe mu ntoki ari abiri, yambaye n'ingofero y'urugara, yambaye umupira w'umukara nigitenge kirimo amabara, ariko mu murima harimo abandi bantu bambaye imyenda inyuranye, bari mu murima w'amashu.

Umugore utereye isuka ku rutugu, yambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku, agiye guhinga. Imbere ye hari umurima w'ibigori, nta bwo yipfutse igitambaro atereye isuka ku rutugu.

Ibitoki by'inshakara, ibitoki ni ibitoki biribwa. Ibitoki biraryoha bigatanga amafaranga, ibitoki ni byiza cyane ni ibyo kuribwa ntabwo ari ibyo gukamamo inzoga.

Abagore bavuye gusoroma ibyayi bikoreye ku bitebo binini cyane. Bari kugenda bambaye imyenda irimo amabara anyuranye, bikoreye n'ibitebo binini cyane. Ibindi babyubitse hejuru bavuye gusoroma icyayi. Harimo n'umugabo ubashoreye n'undi uri inyuma wambaye imyenda y'umweru.

Umugabo ufashe ibihaza bibiri mu ntoki ,yambaye ga z'ubururu, ariguseka umugabo yambaye umupira urimo amabara y'imirongo, ari mu nyanya. Inyanya zirimo ibitoki

Ibijumba bifite ibara ry'umuhondo, inyuma bisa n'umutuku, ni ibijumba byiza biryoha, ibijumba bifite akamaro kanini mu mubiri bitera imbaraga, ibijumba ni igihingwa cyiza.

Inanasi zisutse hejuru ku meza, munsi y'ameza harimo ibase y'ubururu, inanasi ni gihingwa kiryoha, kivamo n'umutobe uryoshye, hirya ya ho hariho igitebo kirimo ibi....

Umukobwa uri gucuruza ibirayi impande ye hateretse umunzani w'ubururu uteretseho n'ibase y'umutuku, hirya ye hari ibihaza hariho inanasi, hariho n'inzu yubakishije amatafari ahiye n'isoko risakaye.

Umugabo uri mu murima w'inyanya. Inyanya zireze. Yambaye agapfukamunwa, afashe urunyanya rutukuje mu ntoki, ari kwishimira inyanya ze. Inyanya zirahishije zitangiye gushya, harimo n'izitari zashya, ariko uri kubona bimushimishije.

Ubworozi bw'intama n'ihene, intama ziri mu rwuri ziri kurisha hamwe n'ihene, hirya yaho y'ikibuga hateye ibiti binini byakuze byagandaye hariho n'abantu bahagaze.

Igiti cy'avoka igiti cy'avoka gifite voka ariko ntabwo zeze, ni voka zisa neza ,ni voka za kijyambere zisa n'izizaryoha nizimara kwera.

Puwavuro, urusenda harimo izisa n'icyatsi, harimo n'izahishije zisa n'umutuku. Hariho n'urusenda.

Umurima w'urutoki urimo igitoki kinini cyane cya fiya cyatangiye gushyaho imineke. Urutoki ni rwiza rutuzanira amafaranga, tukabirya, tukabikamamo n'inzoga, tukabigurisha n'amafaranga.

Umugabo uvuye gukura imyumbati afite, imyumbati minini inyuma, hahagaze abandi bagabo umwe yambaye agasengeri k' umweru n' ipantaro y' umukara undi yambaye umupira urimo, imirongo y' umutuku n' umweru hariho n' undi uri hirya wambaye ishati y' umukara.

Umugore uri gucuruza ibisheke, ibisheke byinshi. Mu muhanda hari kugenda amagare, hagaze abagabo bambaye ingofero ziri kureba imbere, n'abambaye umupira w'icyatsi n'uw'umutuku .umugore yiteze igitambaro cy'umutuku akenyeye n'igitenge kirimo amabara y'icyatsi n'umukara.

Umurima w'ibigori, ibigori byiza bireze, ibigori ni ingirakamaro tubirya ari bibisi byokeje cyangwa se tukabiteka, cyangwa se tukabireka bikuma tukabibeteshamo akawunga, ibisigazwa by'ibigori tukabigaburira amatungo.

Ibijumba ni binini bifite ibara ritukura, ibijumba biraryoha ubishatse ubishatse washikira ugahekenya, ugateka, ukotsa. Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane.

Umugabo wapakiye ibitoki ku igare ari kubisunika, yambaye na bote, n'ipantaro y'icyatsi n'umupira w'umukara, ari gusunika igare ryuzuye ibitoki.

Umukobwa na nyina bari guhinga, nyina yambaye ingutiya n'agapira kubururu karimo imirongo yiteze n'igitambaro cy'umutuku, umukobwa yambaye ijipo yakaki n'agaseri k'umuhondo. Inyuma yabo hateyeho insina n'urubingo rw'ubwatsi bw'amatungo.

Umugabo ufashe akadobo gasa n'icyatsi karimo ubunyebwa, yambaye ishati y'ubururu irimo imironko y'umweru, irimo amabara ry'umweru. Ubunyebwa ni ikiribwa cyiza buvamo n'amavuta butanga n'amafaranga.

Ibirayi basaruye ariko biracyasutse mu murima. Akamaro, ibirayi bidufitiye akamaro kanini, turabirya, turabirya tukabigurisha n'amafaranga. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane.

Umurima uteyemo ibigori byeze, ni ibigori byiza bireze, ariko ntibyari byuma ni ibigori bimeze neza. Umuntu yabyotsa ari bibisi, nta bwo byari byuma byo gusarura.

Izi ni indimu imwe irasatuye ziri kugaragara mu ibara ry'icyatsi zitangiye guhisha, indimu zifite akamaro kanini zivura indwara, zivura inkorora, zivura n'amaso.

Ubucuruzi bw'imbuto amacunga bari kuyacuruza ku bitebo ayandi bayasutse hasi, hariho n'igitebo kirimo.

Ubucuruzi bw'ibitunguru hepfo yabwo hariho n'ibijumba. Ibitunguru ni ingirakamaro n'ibijumba ni ingirakamaro biryoha. Ibitunguru biranavura kubikatira ku biryo ukabirya bikavura.

Umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, ufite n'ingofero aho yikoreye umufuka, ari kugenda. Inyuma ye hariho umugabo na we ari kugenda hirya ye hateyeho ibiti binini.

Ibinyomoro"ibinyomoro bisutse hasi biratukuye, byahiye". Ibinyomoro ni byiza byongera amaraso mu mubiri w' umuntu tukabijyana ku isoko bakaduha, n' amafaranga. Ibinyomoro ni igihingwa gikunzwe cyane.

Amateke y'amabwayisi ni amateke ya kinyarwanda aryoha, ni amateke meza cyane atanga amafaranga, amababi yayo ariyo bita amakola tuyagaburiraga amatungo.

Abagore batatu bafite amasuka bari guhinga. Inyuma yabo hateyeho ibiti binini binini bya avoka, bambaye n'imyenda y'amabara anyuranye bipfutse n'ibitambaro.

Ubuhinzi bw'imyumbati. Umuntu yakuye imyumbati ayifashe mu ntoki. Inyuma ye hari abantu batatu, hari umugabo wambaye isengeri n'undi wambaye agapira karimo imirongo y'umuhondo n'iy'umutuku n'umukara, n'undi wambaye agapira karimo umukara.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto harimo: amacunga, ibitunguru, ibijumba, karoti, imiteja, n'ibindi byinshi binyuranye. Imboga rero ni ingirakamaro.

Imyumbati iri ku mabase iteretse mu isoko, hirya y'imyumbati hariho abantu bari kugenda bari kujya mu isoko, imbere yabo hariho amazu. Hariho inzu nini isakaje amabati y'ubururu, ku ruhande hariho indi ifite n'irangi ry'umuhondo.

Umugabo uri mu bibigori, ibigori bireze, byahetse ibigori bibiri, yambaye isarubeti y'ubururu, hirya ye hariho undi wambaye agapira k'ubururu, na we karimo imirongo y'umweru n'umukara, n'ipantaro ya kaki, ibigori biraryoha.

Iyi nkoko yitwa dendo. Dendo ni inkoko nini cyane igira umusaruro, igatanga ifumbire. Ni inkoko nziza iryoshya n'inyama ikagurishwa n'amafaranga.

Imbuto z'amatunda yuzuye ibase. Iyo base isa n'ubururu. Amatunda ni igihingwa cyera cyane mu majyaruguru. Amatunda araryoha. Ni imbuto nziza cyane abantu bazikenera ari benshi.

Igihingwa cy'imyumbati. Bayikuye, ariko bayiteruranye n'igiti cyayo . Imbere yaho, hashushanyije amababi y'imyumbati y'ibara ry'icyatsi . Imyumbati , ni igihingwa kiryoha. Ivamo ubugari, indi tukayirya tuyitetse ku biryo.

Imifuka myinshi yuzuye ibirayi iparitse ku muhanda, hariho n'umukobwa urikugenda, imbere ye iyo ari kujya hahagaze umuntu w'umugore wipfutse ibitenge, hirya yabo hariho igihuru kirimo ibiti byinshi bigaragara ko ari nko mushyamba, imbere ye hari inzu y'amabati.

Isoko ry'ibitoki ririmo ibitoki byinshi:Ibyo gutara inzoga, ibyo gutara imineke ,n'ibyo kuribwa hari ibyo bita inshakara, ryaremye abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, amabara y'umutuku, ay'icyatsi ,ay'umweru bambaye n'ingofero ,ni benshi cyane bafite n'amagare.

Ibishyimbo biri mu mufuka. Ibishyimbo birumye barabisaruye barangije barahura bashyira mu mufuka. Ibishyimbo ni igihingwa cy'ingirakamaro, gifitiye Abanyarwanda akamaro kanini.

Ni igitoki giteye inyuma y'urugo, hirya ya cyo harimo umurima w'ibigori ukikijwe n'ibidodoki, hirya ya ho hariho inzu yubakishije ibiti. Ni igitoki cy'incakara gifite igitoki kinini.

Abagabo batatu batwaye ibicuba kuri moto bagemuye amata. Ni abagabo bambaye imyenda inyuranye, bambaye n'ingofero, batwaye moto.

Ibirayi bisutse hasi mu isoko, bari ku bicuruza ni byinshi cyane, mu isoko harimo ibintu byinshi harimo ibintu bisa n'umuhondo, hamanitse n'imyenda, isoko rinini risakaye ariko aho ibirayi bisutse ntabwo hasakaye.

Umurima uteyemo pavuro zifite imisogwe, pavuro ziraryoha ni ubwoko bw'imboga zitwa pavuro ni igihingwa cyiza zituzanira n'amafaranga.

Abantu benshi bari gusoroma icyayi, bambaye imyenda y'icyatsi bamwe bambaye n'ingofero z'imituku, abandi nta ngofero bambaye, abagore barimo biteze ibitambara. Icyayi bari gusoroma icyayi giteye ahantu hanini cyane.

Inseri z'imineke za mbogoya zirahiye ziri ku gataro, imineke iraryoha ifite intungabirimabiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Igiti cya voka gifite imiterere ya voka, ariko nta bwo yari yera, ariko cyarashoye gifite voka nyinshi. Voka ni igihingwa cyiza, voka iraryoha, ivamo amafaranga, voka ni nziza.

Abagabo babiri n'umugore umwe bari mu murima, bari gukorera imbuto. Umugore yambaye imyenda y'amabara arimo umutuku, umweru n'icyatsi. Umugabo umwe yambaye umupira urimo umweru n’icyatsi, undi mugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira urimo imirongo y'umweru.

Igihingwa cy'ibirayi kiri mu murima, bagikubuyeho itaka, kiri kugaragaza ibirayi hasi byarashoye, gifite ibirayi byinshi kandi binini, igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza, ibirayi turabirya, tukabigurisha amafaranga.

Voka ebyiri zisa n'umukara, imwe bayisatuye iri kugaragaza n'ikibuto mu nda ariko isa neza ni voka za kizungu, voka ziraryoha zigira n' intungamubiri nyinshi zivamo n'amavuta.

Umurima munini uteyemo ibiti by'imisave, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara. Hariho n'icyapa gifite ibara ry'umweru, hirya hariho pepiniyeri isakaje amahema y'umukara nandi mahema y'ubururu.

Umugore wicaye iwe mu rugo ku mbuga, ari kumwe n'umwana. Basaruye ibishyimbo barabyanitse. Imbere hari inzu, hariho n'imyenda bameshe yanitse ku mugozi. Iyo nzu isakaje amabati, hariho ku nzu hateyeho n'irangi ry'icatsi ku...

Igitoki kireze kireze ni igitoki cy'inyumbu cyo gutara kivamo inzoga, cyaba ari incakara bakakirya cyangwa se bakakigurisha amafaranga. Ibitoki bitanga umusaruro, bitanga umusaruro mwinshi.

Igihingwa cy'imyumbati. Imyumbati myiza minini, umugabo afashe igiti cy'imyumbati n'umugore we afasheho. Yambaye ikoti ry'umukara n'umugore we ahetse umwana, n'umupira w'umukara. Igihingwa cy'imyumbati...

Umurima munini w'ibigori, ibigori byiza byagiye biraheka bibiri ibigori biraryoha, ibigori iyo babifashe neza birera birera bigatanga umusaruro.

Umurima w'ibigori, ariko ibigori igisimba cya nkongwa cyarabriye cyarabimaze amababi yose niibipfumagure ibi bigori rero bakwiye kubifuhira bakabishyiriraho n'imvaruganda.

Igiti cy'avoka gifite avoka eshatu, ariko n'avoka za kizungu zera zisa n'umutuku ziryoha ,avoka ifite akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu, ivamo n'amavuta.

Abagore babiri bagiye guhinga bafite amasuka, bafite n'udufuka tubiri, umwe agafuka mu ntoki, undi agafuka mu ntoki, bambaye imyenda y'amabara anyuranye, bipfutse n'ibitambaro bari kugenda.

Icyumba cy'ubucuruzi harimo imifuka irimo ibintu byinshi, impungure, impungure cyane cyane, n'amacupa arimo amavuta y'ubuto. impungure ziraryoha, n'amavuta y'ubuto ni meza.

Iki ni igiti cy'ipapayi, ni ipapayi rya kizungu hariho amapapayi ahiye, hariho n'atarasha, iigiti keze amapapayi menshi. Aya mapapayi rero ni ingirakamaro avura mu nda agurishwa. n'amafaranga

Abantu bari guhinga bamanitse imyenda ku nsina, bambaye imyenda itandukanye. Ni abagabo babiri n'abagore babiri. Umugabo yambaye isengeri n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'ubururu, afite isuka ari guhinga. Undi na we yambaye ikoti n'ishati n'ipantaro na bote.

Abantu bari guhinga bambaye imyenda inyuranye, umugabo yambaye ipantaro y'icyatsi, n'umupira w'umutuku yambaye n'ingofero, umukobwa akenyeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo yambaye n'umupira w'ingofero.

Abakobwa babiri bari kugenda bari kuganira bari guseka. Umwe yikoreye, atereye isuka ku rutugu, yambaye agapira k'umuhondo, yikoreye n'igitebo kirimo imbuto zo kujya gutera. Undi na we yambaye agapira k'umuhondo n'agasarubeti, na we afite n'agatebo karimo imbuto.

Abagore batanu n'umugabo umwe, bari gukorera amashu. Amashu agurishwa amafaranga. Abo bagore bambaye imyenda y'amabara anyuranye y'ubururu, y'umukara n'umweru. Uwo mugabo yambaye umupira w'umutuku.

Imodoka iri gupakurura ibitoki, ibitoki turabirya ibindi bikavamo inzoga bigatanga n'amafaranga, urutoki ni igihingwa cyiza, aho bari kugipakururira hubatse n'inzu nini y'amabati y'umutuku.

Ibikurete by'imihondo birimo imiteja, iyindi isutse ku mwenda w'ubururu, imiteja ni igihingwa cyiza iraryoha imiteja ikagurishwa amafaranga, imiteja ni myiza n'umushogoro w' ibyo bishyimbo tukawurya.

Umugore uri mu bigori, ahagaze mu bigori, ari gupfumura ngo arebe ko byeze, ni ibigori byiza byahetse ikigori kinini kigaragara, yipfutse igitambaro cy'mukara, yambaye n'agasengeri, arishimye, ibigori bye biramushimishije ari guseka.

Umugabo ahetse umutiba, ari kugenda mu ntuza, ari kugenda mu ishyamba. Ahetse umutiba yambaye imyenda y'amabara anyuranye.

Abantu benshi bahagaze inyuma y'amazu, inyuma hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje n'amabati hejuru agace kamwe ko hejuru gateye umusenyi, abo bantu bambaye imyenda y'amabara anyuranye harimo abambaye imyenda y'icyatsi abandi yumutuku abandi y'umukara n'bambaye udushyape tw'umuhondo.

Ishyamba ririmo ibiti binini, hanyuzemo inzira irimo n'amabuye y'umweru, ishyamba ririmo ibiti binini cyane zamutse umusozi. Ibiti bifite akamaro kanini turabicana tukabyubakisha bifite akamaro kanini.

Igihingwa cy'igihwagari kimajije kwana. Gifite ururabo rw'umuhondo. Inyuma yaho hari uruzitiro ruzitiye ruteyeho n'indabo, zaranze ku ruzitiro igihwagari kira...

Iki n'igihingwa cya soya, soya n'igihingwa kigira intungamubiri nyinshi cyane, igurishwa amafaranga, tukayigaburira amatungo, tukayirya, soya n'igihingwa cyiza cyane.

Ibigori byumye barabisaruye babimanika ku biti, ni ibigori byinshi cyane, ikigori ni ingirakamaro, ibigori turabirya, tukabikuramo umutsima, tukabibeteshamo igikoma, ibigori ni ingirakamaro, bidufitiye akamaro kanini cyane, tukabigaburira n'amatungo.

inzu nini cyane yubakishije amabati y'umweru ibiti biyubatse babiteye irangi ry'umukara; ni inzu igaragara nk'ubwanikiro bw'ibigori.

Impungure z'ibigori babihunguye. ibigori ni igihingwa cyiza bivamo akawunga, bikavamo umutsima, ibisigazwa byabyo bikagaburirwa amatungo.

Umurima w'amasaka yeze, amasaka ni igihingwa cyiza gitanga amafaranga .Amasaka tuyashigishamo umusururu, amasaka tukayabetesha ,tukanywamo n'igikoma tukayarya, bayaryamo n'umutsima.

Amasaka. Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, amasaka avamo umusururu, amasaka tukayagurisha amafaranga, amasaka muri make ni igihingwa cyiza cyane.

Ibishyimbo bishingiriye biri gufata ku biti bishingirije ibiti birebire, ibishyimbo biraryoha, ibishyimbo n'igihingwa dukunda guhinga mu Rwanda, bigurishwa n'amafaranga.

Izi ni inzuzi z'ibihaza. Turazihinga zikera ibihaza, tukarya ibisusa, tukarya n'ibihaza, ibihaza ni igihingwa cyiza, ni mu bwoko bw'imboga. Inzuzi na zo iyo ibihaza byeze turazivuza, tukazikaranga, tugasekura, tugashyira mu biryo.

Ibishyimbo bifite ibara ritukura . Ibishyimbo ni igihingwa cyiza. Ibishyimbo turabirya, bikaryoha, Ibishyimbo tukabigurisha amafaranga ,n'umushogoro wabyo tukawurya. Ibishyimbo bifite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu.

Abantu banitse ibigori byinshi byinshi by'amahundo, baricaye bambaye imyenda inyuranye irimo amabara y'ubururu n'umukara. Inyuma yabo hariho inzu yubakishijwe amatafari ahiye .Ibigori ni ingirakamaro bivamo kawunga, ibisigazwa byabyo bikagaburirwa amatungo, twashaka tikabitekamo n'impungure.

Izi ni imbuto za marakuca, marakuca iraryoha ni imbuto igira n'umutobe. Ni imbuto nziza cyane igira umutobe igurishwa amafaranga, ifite n'intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Amahundo atatu y'amasaka. Amasaka avamo umusururu tugashigishamo ikigage abenshi bakunze kwita ubushera. Ayandi tukayabeteza inzoga, inzoga iraryoha iyo irimo amasaka menshi.

Ibishyimbo bya kizungu bifite uruyange, bifite n'imiteja. Ibishyimbo bigira intungamubiri nyinshi, ibishyimbo biraryoha ni ibya kizungu.

Umurima w'ubunyobwa ,ubunyobwa n'igihingwa cyiza, ubunyobwa buvamo amavuta, ubunyobwa turaburya, ubunyobwa buduhana n'amafaranga, buri mu murima bufite n'ururabo rw'umuhondo nibwo butangiye kuyanga.

Imifuka yuzuye ikawa n'imifuka myinshi kandi minini, ikawa ni igihingwa cy'ingirakamaro gifitiye u Rwanda rwacu akamaro. Kivamo ivamo icyayi kiryoshye ni igihingwa cyiza cyane kandi igatanga amafaranga.

Ibigori byeze byumye bimanitse, hagati y'ibigori harimo akantu k'ubururu, ibigori ni ingirakamaro.

Umurima w'amasaka, amasaka agiye kwera atangiye gutukura. Amasaka ni meza tuyashigishamo umusururu, amasaka tukayagurisha. Amasaka tukayanywamo n'igikoma. Amasaka nimeza cyane.

Iki ni igikontineri cy'imodoka gipakiyemo umucanga, gifite ibiziga birimo ibara ry'umuhondo. Cyo ubwacyo giteye irangi ry'umutuku, hirya yacyo haparitseho imodoka hateye n'ibiti.

Abantu benshi bari guhinga umuceri harimo abagore, harimo abagabo, bari guhinga mu murima munini cyane bayoboyemo n'amazi.

Umugore arikugosora ibishyimbo ,ariko kugosora yicaye .Yambaye imyenda y'imikara ,yipfutse n'igitambaro yapfundikiye hano kuru ruhande.

Amashaza y'ibisate .Aya mashaza bakunda kuyita ngo ni rantiye .Aya mashaza araryoha, ntabwo yera mu Rwanda.

Umurima munini uteyemo umuceri, umuceri ni igihingwa cyiza turawukunda umuceri ugurishwa n'amafaranga.

Igihingwa cyitwa igihwagari, igihwagari n'igihingwa cyiza cyane kivamo amavuta aryoshye, ni yo mavuta ya mbere, igihwagari nicyo kivamo amavuta ya mbere aryoshye cyane y'ubuto.

Ibi ni impungure, ariko impungure zarameze, ibigori n'igihingwa cyiza tuzigurisha amafaranga, tukanazigaburira amatungo.

Abahinzi bari gutera, bari gutera umuceri. Ni benshi, bambaye imyenda inyuranye, bambaye amapantaro y'imikara, bambaye n'amasengeri y'umweru.

Ibishyimbo by'amabara menshi atandukanye, harimo iby'umukara, iby'umutuku, iby'umweru, iby'umuhondo, iby'amabara y'umukara, avanzemo n'umweru biratandukanye, ibishyimbo ni ingirakamaro turabirya tukabigurisha amafaranga.

Umugore uri kugosora imyaka ku ntara yazingishije imitsatsi ,yambaye ishati irimo amabara y'umutuku n'umukara, umugabo we ari kumureba ukuntu ari kugosora nawe yambaye umupira w'umukara n'itaburiya ifungiye ku rutugu.

Ibigori bavuye kubisarura none babisutse hasi bari kubyanika. Ibigori ni igihingwa cyiza, ibigori biraryoha, tubigaburira amatungo, tukabigurisha n'amafaranga. N'ibikenyeri byabyo tubishingiriza ibishyimbo.

Umurima uteyemo ibihwagari hirya no hino, hagati harimo inzira yo kunyuramo, ibihwagari bimaze kwana bifite ururabo rw'umuhondo. Ibihwagari ni igihingwa cyiza ibihwagari bivamo amavuta y'ubuto turayarya turayakunda cyane.

Ubunyebwa, ubunyebwa bufite ibara ritukura, ubunyebwa bufite akamaro kanini turaburya, buvamo amavuta, butuzanira amafaranga, ubunyebwa ni igihingwa cyiza cyane.

Ingano zisaruye zimanitse ku biti. ingano ni igihingwa cyiza , tuziryamo umutsima tukazinywamo igikoma bakazikoramo n'imigati. Ingano n'igihingwa cyiza.

Ubucuruzi bw'imyaka inyuranye ibishyimbo, amasaka ibigori ,mpungure ,soya ,imyaka yose ubwoko bwose n'yinindi mifuka iparitse n, umugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi ipanzemo imifuka myinshi cyane, inyuma hariho abantu bari kwikorera bari kujya gupanga, abandi bahagaze hejuru bari kumwakira bari kuyipanga, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye bamanitsemo n'ibigori.

Abagore benshi bamwe barahagaze abandi baricaye, bipfutse ibitambaro by'ibitenge binyuranye bifite amabara y'umukara, y'umutuku, y'umuhondo, n'imbere yabo hateretse amabase yuzuyemo ibishyimbo n'ibitebo.

Ihudo ryi'saka, ariko ntabwo ryari ryahisha neza risa n'umweru, amasaka ni igihingwa cyiza cyane, amasaka ni igihingwa cyiza cyane kivamo n'umusururu, kigatanga n'amafaranga.

Ubucuruzi bw'ubunyobwa, ubunyobwa bwinshi bumwe busutse hasi ubundi buri mu mufu, ubunyobwa buraryoha buvagamo n'amavuta. Umugore uri kubucuruza yambaye umupira w'ubururu n'gashati k'amabara arimo umutuku n'umuhondo mu nda, yiteze n'igitambaro cy'umutuku.

Icyumba cy'ubucuruzi gipanzemo imifuka myinshi, harimo umugore uhagaze ari gucuruza, hirya hariho inzu y'amabati y'ubururu.

Ubunyebwa buri mu mifuka n'impungure, ubunyebwa buraryoha, buvamo amavuta, kandi tukaburya no mu biryo.

Amashaza atonoye, amashaza ni igihingwa kiryoha cyane, amashaza ni meza cyane, akundwa n'abantu benshi, agurishwa amafaranga, ibisigazwa bya yo tukabigaburira amatungo.

Amahundo y'amasaka bayasaruye aranitse, amasaka ni igihingwa turagikunda. kivamo umusururu kandi amasaka tukayabetesha, tukayabeteza n'inzoga.

Ibigori byumye byeze byumye bimanitse ahantu muri hangari, ibigori ni ingirakamaro, ibigori turabirya tukabigurisha amafaranga tukanywamo n'igikoma. Ibigori rero ni ingirakamaro.

Umukobwa uri gucuruza ibicuruzwa binyuranye; ibishyimbo, impungure, n'ubunyebwa. Yambaye ikanzu y'igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku, yambaye n'itaburiya afashe akadomora mu ntoki ari gusuka amavuta.

Umubyeyi n'abana be bitwikiye umutaka. Bicaye mu murima. Umurima wamezemo ibyatsi bitandukanye, bari gusogora n'ibitonore, bafite abana benshi. Bambaye imyenda y'imituku amakabutura y'intuza.

Ibigori bitonoye bifite amabara y'umuhondo n'umweru biri mu gatete; ibigori biraryoha tubyokeje cyangwa tukabiteka cyangwa se tukareka ibikuma tukabibeteshamo akawunga, ibisigazwa byabyo tukabigaburira amatungo.

Ubunyebwa babushize mu mufuka. Ubunyebwa ni igihingwa cyiza cyane. Hariho umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umuhondo. Ubunyebwa buryoha buvamo amavuta .

Igihingwa cy'ikawa, n'ikawa zitonoye ikawa ni ingirakamaro, zikaba zivamo icyayi kiryoshye cyane tukazohereza no mu mahanga. Ikawa ni gihingwa ngandurabukungu.

Ibigori byiza cyane byumye bifite amabara, byanitse ku twatsi hasi imbere yabyo hariho ibyatsi , ibigori ni byiza cyane kubirya biraryoshye.

Cyitwa igihingwa k'ibihwagari giteye mu murima munini hirya yaho hariho ibiti by'ishyamba biyumbije. Igihingwa gifite amabara y'umuhondo ibindi barabipfutse kugira inyoni zitabirya.

Umurima w'ingano munini cyane, ingano ziri hafi kwera, hirya yazo hariyo ishyamba. Ingano ni igihingwa cyiza zivamo imigati, tuziryamo umutsima, tukazigurisha n'amafaranga.

Umufuka w'amakara, amakara turayacana, tukayateza ipasi, amakarara ni meza iyo umuntu ayacanye ntahura n'imyotsi.

Izi ni inyinya bita inkarishya. Inkarishya ziri mu bwoko bw'imboga zifite n'indwara nyinshi zivura cyane cyane umuvuduko. Inkarishya nta bwo zikunda kuboneka cyane, ziboneka ahantu hake. Ariko zifitiye umubiri akamaro kanini.

Ni igihwagari cyeze kireze cyarangije guhungukaho ururabo, baragisaruye ahasigaye ni ukucyanika kikuma bakajya kugikuramo amavuta. Igihwagari kivamo amavuta meza cyane aryoshye.

Igihingwa cya soya. Soya imwe bayitonoye ifite impeke eshatu mu mushogi, soya ni igihingwa cyiza gifitiye abanyarwanda akamaro, kivamo n'amavuta, soya ni igihingwa cyiza.

Ubucuruzi bw'impungure ziri mu mufuka, zirapanze mu mifuka bari kuyora. Umugabo uri kuziyora yambaye imyenda y'imituku y'ibitenge birimo amabara, n'ingofero irebye imbere, ari gucuruza impungure nyinshi.

Ubunyobwa budatonoye buri mu mifuka. Ubunyobwa ni igihingwa kiryoha cyane, ubunyobwa babugurisha amafaranga buvamo n'amavuta. Ubunyobwa ni igihingwa kiza cyane ni igihingwa cyiza cyane.

Amabase apanzeho ibicuruzwa by'ubunyobwa n'impungure, ibindi biri mu mufuka, umugore uri kubicuruzi aricaye yiteye n'igitenge, inyuma ye hariho imifuka irimo amabara y'umweru, n'iy'umuhondo, undi muntu arahagaze.

Ibishyimbo biri mu kabase ako kabase gafite amabara y'icyatsi n'ay'ubururu. No mu murima biteyemo ibishyimbo ni ingirakamaro turabigurasha amafaranga ibishogoro tukabigaburira amatungo.

Ibishyimbo bifite ibara ritukura birumye birasaruye biranitse. Ibishyimbo n'ingirakamaro turabirya tukabigurish amafaranga.

Igihingwa cy'ingano, ingano n'igihingwa gikunzwe ku isi hose cyane, ingano zivamo umutsima zigurishwa ku isoko zitanga amafaranga, ibisigazwa byabyo bigaburirwa amatungo.

Ikawa bamaze kuzihera none barazanitse. Ikawa ni igihingwa cyiza kizana ba mukerarugendo, kikatuzanira amafaranga, ikawa ikavamo n'icyayi kiryoha.

Umugabo ari gusunika ibishyimbo ku igare, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, ari gusunika ku igare rifite intebe isa nk'icyatsi. Ibi bishyimbo birera cyane, ni ibishyimbo byiza.

Ibishyimbo bifite ibara ritukura, ibishyimbo ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi, ibishyimbo turabigurisha bikaduha amafaranga kandi turabirya.

Umuntu urimo murima munini, uteyemo umuceri ari kuwukorera ari gushyiraho ifumbire mvaruganda, umuceri n'igihingwa cyiza umuceri turawurya, bakawugurisha amafaranga, ibisigazwa byawo bigaburirwa amatungo.

Ni ibishyimbo, ibishyimbo bifite amabara y'iroze, byatangiye no kuzana imiteja. Ibishyimbo tubirya umushogoro, ibishyimbo tubigurisha amafaranga, ibishogoshogo byabyo tubigaburira amatungo.

Ibishyimbo bigufi byarashoye bifite imiteja, bifite n'amababi ameze neza. Ibishyimbo ni ingenzi ibishyimbo turabirya, ibishyimbo tubigurisha amafaranga ibishyimbo bifite akamaro kanini.

Umurima uteyemo ibishyimbo, ibishyimbo birashingiriye bitangiye gufata ku biti, iruhande rwabyo hariho amabuye afite ibara ry'ubururu n'umweru. Ibishyimbo ni igihingwa cy'ingirakamaro biraribwa intonore, bikaribwa n'umushogoro.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye, inyanya, imiteja, ibishyimbo n'ibindi byinshi, bagiye bamanikaho udupapuro turiho igiciro cya buri kintu.

Ibihwagari bamaze kubisarura barabihura bisutse hasi biranitse. Ibihwagari ni igihingwa cyiza bivamo amavuta aryoha cyane, ibihwagari ni byiza.

Ubwanikiro bw'ibigori bwanitsemo ibigori byinshi cyane, busakaje amabati ibiti babiteye irangi ry'ubururu, n'imbere yaho hateye amabati bateye irangi ry'umutuku.

Ikigori, ibigori harimo amahundo, harimo n'ibihunguye biraranitse. Ibigori ni ingirakamaro turabirya, tukabibeteshamo n'umutsima. tukabinywamo n'igikoma, ibindi tukabigaburira n'amatungo.

Aya ni amsshaja ya Rantiye. Rantiye ni amashaza ni amashaza araryoga arikogaga rimwe na rimwe gakunze no kuboneka arikogara cyaneane

Imifuka myinshi itondekanye imbere yayo hateretse ibidomora bibiri bifite imifuniko mishyashya birimo amavuta. Ni iduka bipanze mu cyumba cyo kubicururizamo.

Ubwanikiro bunini cyane bw'ibigori busakaje amabati y'umutuku. No hasi ku mpande bukikijwe n'amabati y'umutuku. Burimo ibigori byinshi. Gufata neza imyaka ni ingirakamaro ikuma itanduye, cyangwa ngo ijyeho ibitaka.

Ibishyimbo, ibishyimbo bireze batonoye igishyimbo kirimo impeke eshatu ibindi ni imiteja, ibindi biracyafite uruyange. ibishyimbo ni igihingwa cyiza kidufitiye akamaro, turabirya ibindi tukabigurisha amafaranga, ibishyimbo bifite vitamini nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Imodoka ipakiyemo imifuka myinshi, inyuma y'imifuka hariho umuntu wicaye, iyo modoka itwikirije n'ihema ry'ubururu, hasi hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara y'ikoboyi, n'abandi bagabo babiri bari bari kubafasha gupakira iyo modoka, ku ruhande rw'imbere hariho abantu harimo umuntu wambaye imyenda y'imituku, urw'inyuma hariho uwambaye.....

Ubworozi bw'imbwa babujyanye kubukingiza ,bambaye imyenda inyuranye ni abana benshi bazifite.

Ingurube iraryamye iri konsa ibyana, ingurube ifite ibara ry'umukara, ingurube zikunda kororoka, ingurube zitanga amafaranga, ingurube ni itungo ryiza.

Abantu bane bambaye udupfukamunwa bambaye n'ingofero zinyuranye. Babiri bambaye ingofero z'umweru zisa n'abandi babiri bambaye ingofero z'umweru zisa.

Inka nziza zirabyagiye izindi zirahagaze. Ni inka nziza zifite amahembe maremare ateze neza. Ni inka zishimishije. Zitanga inyama, zigatanga amata, zigatanga n'amafaranga.

Ingurube, ingurube ni itungo rigufiya irabyibushye, ingurube ni itungo riryoshye, inyama yaryo bayita akabenzi, itanga ifumbire, itanga n'amafaranga.

Urugo rw'umuturage rufite ubworozi bushimishije, harimo inka iri mu ikiraro, ihene ziziritse inyuma y'ikiraro afite n'inkoko, inkoko zitanga amagi, Inka zitanga amata n'amafaranga, n'ihene zitanga amafaranga n'ifumbire.

Ingurube nini ifite ibyana iri konsa, ni ingurube nziza, ifite ibara ry' umweru. Ingurube ni itungo ryororoka vuba kandi rigatanga amafaranga, rigatanga n' inyama, rigatanga n' ifumbire. Rifitiye umuturage akamaro kanini.

Ubworozi bw'intama, ni intama nyinshi zifite amabara atandukanye, harimo iz'umweruru, harimo iz'urutobo, harimo iz'ikijuju, n'intama zimeze neza, hirya hari.

Ubworozi bw'inkoko n'inkoko nyinshi cyane zifite n'utuntu two kuriramo twagenewe, inkoko zitanga inyama, zigatanga amagi, zigatanga n'amafarang. Inkoko zikagira n'ifumbire nziza.

Umugore wambaye igisarubeti cy'ubururu n'umugabo nawe wambaye igisabeti cy'ubururu, bamwicaye, yicaye imbere ye, umugore arunamye ari gupakira ibintu mu ndobo y'ubururu, iruhande rwe hariho n'igisandugu na cyo cy'ubururu.

Inkoko eshatu z'inkokokazi ,umwana ari kuzikinisha, imwe yayifashe igisembe ,umwana yambaye agapira k'umutuku n'agapataro k'umukara. Inkoko ni nziza, zitera amagi zigatuma bana batarwara bwaki.

Umworozi w'ingurube ari kumwe na veterineri , veterineri ari kuyivura, veterineri yambaye itaburiya y'umweru, umworozi yambaye ishati y'umuhondo n'agapira k'umutuku imbere n'agapfukamunwa.

Inka ebyiri, imwe ni iy'umukara, indi ni ikibamba. Ziri kurya kameroni. Ni inka nini nziza zifite n'amahembe, imwe ifite amahembe arebye imbere, indi ni inkungu nta mahembe ifite.

Umugabo ari kuvura inka, ari gushyira umuti mu rushinge, umuti usa n'umuhondo. Inka ni inka eshatu nini zifite amabara anyuranye, imwe isa n'umukara izindi ebyiri ni ikibamba.

Inkoko, inkoko zitwa ibigagari ,ni ubworozi bwazo ziri kunywa amazi mu kantu kabugenewe, nimwo ziri kunywera amazi, izi nkoko zigira inyama ziryoha cyane, kandi ziraguruka.

Inka nyinshi zirimo amabara anyuranye y'umukara n'umweru. Bari kuzishyira ahantu mu rupangu, bambaye amasarubeti y'ubururu n'umukara. Inka ivamo amata igatanga inyama, igatanga n'ifumbire. Inyuma yabo hariho umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi.

Amagi ari mu tuntu twabugenewe. Amagi agira intungamubiri nyinshi ku bantu bose, ari abana, ari n'abantu bakuru. Amagi turayagurishaduha amafaranga amagi ni meza.

Muganga ari gusuzuma inka, ari kuyikora mu nda y'amaganga, ni inka nini cyane y'umukara, imbere ye hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu, nawe yambaye itabariya y'umweru n'ipantaro y'umukara na bote.

Inka eshatu, inka ni enye ziri mu rwuri zifite amabara y'ikibamba n'umusengo, ni inka nini zitanga umukamo zitanga amata menshi, amata araryoha akagira n'intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Imishwi y'inkoko irabundamye, inkoko ni ubworozi bwiza cyane bwororoka vuba. Inkoko zitanga inyama, zitanga amafaranga, zigatanga n'amagi. Inkoko rero zifite intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Ibyana by'ingurube by'urutobo biriryamiye birabyibushye ni ibyana byiza. Ubwororozi bw' ingurube ni ubworozi bwiza bwororoka vuba bukatuzanira amafaranga, kandi ingurube zigatanga n'ifumbire.

Ibyana byinshi by'ingurube harimo ibifite amabara y'umweru, harimo ibifite amabara y'umweru n'umukara, n'ibyana byiza, bimeze neza, bisa neza.

Abaveterineri babiri bari gusuzuma inka .Ni inka ihatse ifite ibere rinini bari kuyisuzuma bambaye imyenda y'ubururu ,amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umweru.

Ubworozi bw'inkwavu, hari n'iz'imikara zifite ibara ry'umweru mu gahanga, harimo urw'umweru, harimo n'urw'ikijuju. Ubworozi bw'inkwavu, ni ubworozi bwororoka vuba vuba cyane, kandi bukagira n'inyama ziryoshye.

Ubworozi bw'inkoko. Ni inkoko za kinyarwanda zifite amabara atandukanye. Zifite ayo amabara y'umweru n'ay'umukara, harimo n'iz'umweru gusa. Zifite amabara atandukanye. Ubworozi bw'inkoko butanga amafaranga, bugatanga n'amagi n'inyama.

Abantu bicaye bari benshi bari mu nama. Umugabo ari kubigisha, yambaye imyenda y'umukara yanditseho n'ibara ry'umweru mu mugongo. Aba bantu bambaye imyenda inyuranye y'amabara menshi.

Abantu bambaye amakoti y'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, bipfutse n'udutambaro mu mutwe, bari mu cyumba kirimo amashanyarazi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bambaye na za ga mu ntoki.

Abagabo bari gusuzuma inyana, bari kuyireba mu kanwa harimo n'umuzungu, abandi bagabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye y'umutuku ni ubuvuzi bw'amatungo.

Ubworozi bw'ingurube harimo ingurube z'umweru, harimo ingurube z'urutobo, harimo iz'umukara. Harimo n'umugabo wambaye imyenda y'umukara ari ku biraro, ibiraro binini cyane bigari bisakarije n'amabati, ingurube ni ubworozi bwororoka cyane.

Inka nyinshi ziri ahantu h'ikibuga ho mu rwuri, bari kuzubakira ikiraro. Izindi ziri hakurya, ahantu hateye n'ibiti byumye bidafite amashami.

Inka nini y'umukara, ifite umurizo urimo amabara y'umweru no ku maguru, iyo nka iri kurisha ibyatsi iyo nka iri inyuma y'urugo, iragiwe n'umushumba wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umukara.

Ubworozi bw'ingurube ba veterineri bari kuyisuzuma, bambaye amataburiya y'umweru. Ni abaveterineri batatu harimo n'umugore umwe.

Ubworozi bw’inkwavu! Ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwiza buzana amafaranga. Bugatanga inyama kandi bugatanga n’ifumbire. Urukwavu rwororoka vuba, ntirutinda kororoka.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko nziza z'imituku zifite ibirokoroko bitukuye. Inkoko ni ubworozi bwiza zitanga inyama, zitanga amagi, zitanga n'ifumbire nziza ituma imyaka ishisha

Ahantu hari inka nyinshi, hari umudamu uri kuyikora mu nda y'amaganga yambaye bote, yambaye ijipo y'umutuku n'umupira w'umukara, imbere ye hahagazeho undi mugabo wambaye n'itaburiya y'umweru, inyuma ye hahagaze n'undi mugabo wambaye isarubeti y'umukara.

Inyoni nini ifite ibisembe by'ubururu n'umweru, amababa yayo ni ubururu, ku mutwe hari igisunzu cy'umukara. Umunwa ufite ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Ingagi itatu ziri mu ishyamba, hirya yazo hariyo ikiyaga cy'amazi hariyo n'igiti kirekire kinini.

Inkoko yitwa ikigagari igira amaguru, amaguru yayo asa n'umutuku, hejuru ni amabara anyuranye y'umweru n'umukara, ni inkoko igira inyama ziryoshye kandi irya ibyatsi byose.

Inkende n'icyana cyayo, inkende ni inyamaswa zikunda kuba mu ishyamba zizana ba mukerarugendo, inkende zikunze kwibera mu ishyamba mu biti birebire.

Inyoni iri ku giti, inyoni y'isande ifite mu maso h'umuhondo, umunwa ni umukara.

Imvubu, imvubu n'inyamaswa ikunda kuba mu mazi ahantu hishyamba. Imvubu izana bamukerarugendo bakadusigira amadovize bajye kuyisura.

Uruyongoyongo ruhagaze ku giti ,ruri mu ishyamba. Rufite amabara y'ubururu, y'umukara n'ay'umweru. Rufite urujosi rurerure n'umunwa rusongoye.

Inyoni ifite amabara y'ubururu n'umweru, ifite n'igisunzu kigiye hejuru, ifite umunwa usongoye. Iyo nyoni ifite n'ijisho risa n'umutuku.

Ni inyoni yitwa inuma. Inuma ni inyoni nziza. Inuma ni inyoni nziza, abantu barayirya. Ni inyoni idakunze gutera amahane.

Ingagi yiyicariye mu ishyamba, ingagi ni inyamaswa ikunda kuzana ba mukerarugendo, bagasigira igihugu amadovize. Ingagi yibera mu ishyamba ryo mu birunga.

Igisimba cyo mu ishyamba ni imbwa. Imbwa zirahiga izindi nyamaswa, imbwa hariho n'abazorora mu rugo. Imbwa ni inyamaswa igira n'ubwenge.

Ibisiga bibiri bifite amabara y'umweru n'umukara ku maso n'umuhondo, bihagaze mu biti birebire biri kureba hejuru. Bihagaze mu biti birebire by'ishyamba biri kwirebera hejuru.

Uruyongoyongo rufite amabara y'umweru n'umukara, rufite urizosi rurerure, n'umunwa usongoye kurunwa rusongoye hariho ibara rigiye gutukura. Ikiyungoyongo n'igisimba kiguruka n'igisiga kiguruka gikunze kuba ahantu h'amazi.

Imbogo, imbogo ni igisimba kijya gusa n'inka. Ariko zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize. Imbogo ni igisimba kigira ubugome, iyo cyatorotse ishyamba cyica abantu.

Igisiga gifite amaguru maremare, gifite amababa y'umukara n'umweru ,gifite agasuzu gatandagaye, gifite n'amaso y'umutuku.

Igihangara, igihangara gifite ibara ry'umuhondo ku mutwe, ahandi gifite amabara anyuranye y'umweru n'icyatsi, n'ubururu, igihangara ni igisimba kibi gikunze kuba mu biti hejuru.

Imisambi iri kuguruka iri mu kirere, ifite amababa afite amabara y'umukara, imisambi, imisambi n'ibinyabuzima bikunda kuba hafi y'amazi, biri kuguruka hejuru y'amazi.

Inyamaswa yitwa ikinyogote iba mu ishyamba, igira n'amacumu. Ikinyogote ni inyamaswa igira amahane cyane, ikunze kuba mu ishyamba ,ntabwo ikunze kugaragara i musozi.

Ingurube y'ishyamba ifite ibyoya byinshi, ni igisimba uri kubona ko gitinyitse, gisa nabi. Ingurube, ariko ingurube iyo ari iyo mu giturage, igira akabenzi karyoshye, kandi igatanga n'ifumbimbire.

Ingagi n'inyamaswa ikunda kwibera mu ishyamba, ikurura ba mukerarugendo ikunze kuba mu ishyamba ryo mu birunga.

Igikona ni igisiga gihora kiguruka mu kirere kigira ibara ry'umukara n'iy'umweru mu ijosi, amaguru yacyo ni umukara ariko ibikona biratandukanye hariho ibikona bisa n'umukara ahantu hose.

Iyi ni inyamaswa yitwa inkende, inkende ni inyamaswa ijya kugisura isa nk'iy'umuntu, inkende ni inyamaswa iba mu ishyamba ituzanira ba mukerarugendo, bakadusigira amafaranga.

Urunyoni runini, urusiga runini ruhagaze mu giti, igiti gifite ubwerezwa bwayanze, buri kwerera nk'imishogi y'ibishyimbo, urunyoni imbere y'aho umutwe n'umukara rufite no mu ijosi h'umweru, ku nda ni umutuku.

Inyoni ifite amabara y'ubururu n'umukara, ifashe ku giti bita igicumucumu, nacyo gifite igicumucumu, gifite uruziga cyarayanze, gifite akabara k'umuhondo.

Igisiga kinini gihagaze ku giti gitambitse. Ni igisiga gifite umutwe usa n’umweru, amababa afite amabara y’umweru n’umukara. Ni igisiga kinini cyane, kiba mu ishyamba.

Inyamaswa yo mu ishyamba ifite ibyinnyo binini, ifite amatwi ahagaze, ifite ibintu byameze munsi y'amaso. ni uruntu runini cyane ruteye n'ubwoba.

Igisiga kinini gifite ibara ry'umuhondo imbere kurunwa, n'urunwa rusongoye kurunwa imbere hariho ibara ry'umutuku inyuma n'umukara.

Inyamaswa yitwa agasamunyiga, ifite urusembe runini cyane, ruriho amabara abiri, ibara ry'umukara n'iy'umweru, agasamunyiga ni inyamaswa iba mu ishyamba, ikunda kunuka cyane, aho inyuze ntiwayiyoberwa.

Intare ebyiri ziri mu ishyamba, intare ni inyamaswa y'inkazi cyane, intare nta y'indi nyamaswa iyivogera. Intare rero igira ubukana, ifata uburakari vuba vuba ni ukuyitondera.

Iki gisiga bakunda kucyita nyirabaraza, nyirabaraza ni igisiga gikunze kuba hafi y'amazi, impande y'uruzi, iki gisiga ntabwo cyona imyaka.

Inyamaswa iri kwiruka ni impongo, igiye kwitwara nk'ihene, iri kwiruka cyane mu ishyamba, yarambuye amaboko n'maguru, n'amatwi yayahagaritse. Iri gusimbuka mu biti.

Imvubu, imvubu n'inyamaswa y'ishyamba ikunda kwibera mu mazi, imvubu izana ba mukerarugendo bakadusigira amafaranga, imvubu n'inyamaswa iba ari nini cyane.

Umutubu ni agasimba gakunda kwibera mu gishanga gafite ibara ry'icyatsi ririmo amabara y'umukara Kaba gakanuye amaso, gafite amaboko abiri n'amaguru abiri.

Inyoni y'umununi, ifite ibara ry'icyatsi n'iry'umukara. Ihagaze ku gati keza k'ururabo gafite indabo nziza z'umutuku n'umuhondo n'umweru. Iyi nyoni irona cyane.

Inzovu n'icyana cya yo iri mu ishyamba, inyuma ya yo hariho ibiti, hirya hariho ibiti binini cyane. Ifite amenyo abiri yahingutse, amahembe abiri yahingutse yigondoye, n'urunwa rurerure.

Iyi nyoni yitwa agashoshi, ihagaze ku kiraro iri kureba mu mumazi, ni bona gafi irahita iguruka ije kugafata. Iyi nyoni ikunda kuroba yihagarariye kuriya, yitwa agashoshi.

Inyoni yasamye ifite amabara y'umuhondo n'umukara. Ifite n'umunwa muremure, munsi n'umuhondo mo imbere.

Inkende ni igisimba gikunda kwibera mu ishyamba, kigakunda kwibera mu biti. Gikurura ba mukerarugendo, kikazana amafaranga, ba mukerarugendo bakadusigira amafaranga.

Urukwavu rufite amabara y' ikijuju y'umweru, amatwi ahagaze, urukwavu ni itungo ryororoka vuba cyane, urukwavu ni itunga umuntu wese yakorora, ntirugora kurworora. Rugira n'inyama ziryoshye, kandi rugatanga n'amafaranga, rugatanga n'ifumbire.

Inyoni ihagaze ku giti gitemye kiryamye cyaranzeho n'uruyuzi. Ihagaze ku giti cy'ikiraro kiryamye cyaranzeho n'uruyuzi.

Inyoni ifite ibara ry'ubururu m'umugongo, mu nda mw' imbere ni umuhondo, ku mutwe hariho ibara ry'ubururu, ku jisho hejuru ku gahanga ni ibara ry'umweru, ihagaze mu murima mu ishyamba.

Inyoni ihagaze ku giti, igiti cyiza gifite amababi meza. Ni inyoni, ni akanyoni gatoya k'isandi gakunda kona. Inyoni na zo zifite akamaro. Hari udukoko zirya zikatugabanya mu...

Inkoko bita ikigagari ifite ibara ryiza ry'umukara ririmo utudoma tw'umweru ni inkoko itabunga cyane.

Igisiga gifite amaguru maremare, gifite amabara y'umweru n'umukara, gifite n'udusunzu dushitaguye, ijisho rya cyo ni umukara, ku ruhande ni umutuku.

Ubworozi bw'ingurube, ni ingurube, ingurube zitanga amafaranga, zigatanga ifumbire. Inyama zazo ziraryoha bakunda kuzita akabenzi.

Izi ni inkoko z'ibigagari. Inkoko z'ibigagari ni inkoko nziza, zigira ibara ryiza, ririmo amabara y'umukara n'umweru, ni udukoko twiza tuba dushimishije iyo uri kutureba, ubona ari udukoko twiza. Tugira inyama ziryoha cyane.

Inyoni ihagaze ku giti iri mu ishyamba ,ifite amabara y'ubururu n'umukara ku gisembe ifite umunwa usongoye ufite ibara ry'umutuku.

Inyoni ihagaze ku giti ifite ibara ry'umuhondo hano imbere, n'aho ku mutwe hariho ibara ry'umukara n'ubururu, ifite umunwa usongoye, ihagaze ku giti kigaragara nk'icyumye kiri mu ishyamba.

Inyoni y'igishwi ihagaze ku giti kiriho indabo ,indabo nziza zifite amabara y'umuhondo nay'umweru, inyoni rero n'agasimba gahora kigurukira.